Ifoto irerekana akabari cyangwa se bare uko abantu basanzwe babimenyereye. Ibingibi bishatse kwerekana ahantu abantu bahurira basabana, bahuje urugwiro, bakishima n'inshuti zabo, bagasangira, bakinezeza muri macye.

Ishusho iri hano irereka hamwe mu hantu abantu bahurira, baganira bahuje urugwiro cyangwa basangira, bityo bikabafasha kugenda bubaka umubano hagati yabo bakanamenyana birushijeho.

Ishusho iri hano irerekana ikusanyirizo ry'amata, aho abaturage baba bahurira baje gushaka amata yagiye aturuka hirya no hino ariko iri ngiri ryo urabona ko ari iry'Inyange, Inyange ni uruganda rubasha kugenda rugeza amata ku baturage, yavuye ku makusanyirizo makuru.

Iyi foto irerekana inzu y'umukozi wa MTN, aho bagenda baduhera serivisi zose harimo izo kubikuza, izo kubitsa, harimo iz'ubujyanama ku bantu bakoresha simukadi za MTN n'uburyo baguramo simukadi za MTN.